Bari mu ishuri, hakikijwe n'imisozi myiza, abo bana bari imbere y'utwuma, utwuma dusohora amazi cyangwa se ibindi binyobwa, utwo twuma dusa ubururu, dufite ndetse n'andi mabara yenda gusa oranje.

Bicaye imbere y'ameza ariho amazi, bari mu nzu, iyo nzu irimo igipapu cyamamaza cyanditseho for every child hope ndetse hari na televiziyo.

Amapoto ari mu ruzitiro, azitiwe n'utwuma duto duto, imbere y'iyo nzu hari umugabo, ayo mazu abiri afite imiryango isa ubururu.

Abantu baje gushaka amazi, bari hafi n'icyuma gipompa amazi cyangwa se kizana amazi kiyakuye mu butaka, ahantu bari ni heza hari imisozi myiza, hepfo iyo mu cyaro hari utwana dufite amabido, hari n'akandi kana k'agahungu gafite amabido abiri, hari n'akandi kari kuvoma gafite ibido imwe.

Ihuriro ry'abagore n'abagabo, abagabo babiri abagore ni batatu. Umugabo umwe yambaye agapira k'ubururu undi yambaye ak'umuhondo, abagore babiri bambaye ibisa n'umutuku hejuru ndetse hari n'akana gato kicaye ku ntebe barimo baragaha imiti. Umugabo wambaye umupira w'umuhondo afite igitabo mu ntoki.

Wambaye umupira w'ikigina n'igitenge, yaje kuvoma ku ivomero rusange ryashyizweho na leta kugira ngo ribungabunge ubuzima bw'abaturage, mu rwego rwo kugira ngo haboneke amazi meza yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Afite amabido agera muri atatu arimo aravoma.

Rya abagore n'abagabo rihagaze mu bigo umunani ku icumi byiyemeje kubahiriza ayo mahame y'iringaniza. Iyi raporo iragaragaza uburyo kuva muri bibiri na cumi n'umunani kugeza muri bibiri na makumyabiri na rimwe ayo mahame yubahirijwe ku kigero cyo ku ijana. Ahenshi ni muri bibiri na makumyabiri na rimwe.

Umugore utwite uri kwa muganga, wambaye agapfukamunwa ukikijwe n'umurwaza wambaye agapfukamunwa ariko utakazamuye, ndetse n'uw'umukozi wo kwa muganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu, afite agakoresho ari gukoresha yumva umwana mu nda uburyo amerewe.

Umwe ni umubyeyi undi ni umuganga, bose baricaye usibye akana gahagaze karimo karareba hanze, ako kana kambaye imyenda isa ubururu, umuganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse na nyina w'umwana yambaye agashati.

Bari kwa muganga bigaragara ko bazahaye baje kwivuza. Umwe muri bo afite igipfuko ku mutwe, abandi batatu baricaye, bari ku kigo nderabuzima aho ubuvuzi butangirwa ku baturage bose.

Haza umugabo n'umwana, umugabo arahagaze hejuru y'ivomero yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umweru, akana karasutamye karimo karavoma amazi ku ivomero, kavomera mu ndobo isa oranje, ako kana kambaye umwenda w'umweru wo hejuru usa nabi n'agakabutura k'umutuku gasa nabi, ndetse kambaye ibirenge.

Umwenda wo hejuru usa n'umuhondo ndetse n'uwo hasi usa n'icyatsi, afite akabido gasa umuhondo, arimo arakadubika mu mazi agira ngo avome amazi ajya gukoresha.

Babiri b'abanyeshuri, umwe muri bo azamuye agatoki nka kwa kundi twazamuraga intoki mu ishuri turimo dushaka gusubiza duhatana n'abandi banyeshuri bagenzi bacu, kugira ngo dusubize imbere y'abo.

Itsinda ry'abana n'abagabo baje kuvoma amazi ku ivomero rusange, ryashyizweho na leta kugira ngo n'abafite amikoro make babashe kubona amazi meza, yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi nko kumesa, guteka n'ibindi.

Abagore batatu umwe muri bo aricaye abandi babiri barahagaze, umwe ahagaze ategereje ngo uwicaye aveho nyuma y'uko uri arimo arakingira uwo mugore wicaye, arimo aramutera urushinge amukingira indwara, izi nshinge zitufasha mu gihe bari kudukingira indwara z'ibyorezo n'ibindi.

Ikigo cy'ibitaro bya Kacyiru bya polisi y'igihugu barifotoza, bambaye bamwe ama bubu asa umuhondo, abandi bambaye ibitenge birimo amabara y'icyatsi ndetse bahagararanye n'umupolisi.

Abazungu n'abanyarwandakazi, harimo ndetse n'abandi bakomoka mu gihugu cya tagikistan, bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kugira ngo bahangane n'ibibazo bihurirwaho n'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, kugira ngo bafashwe mu buryo bugaragara.

Inzu igizwe n'abagabo n'abagore, bihuriye hamwe, kugira ngo hafatwe ifoto y'urwibutso. Iri huriro, ni iry ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, cyitwa Arabisi mu magambo maremare, Rwanda bayomediko senta. Gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu, kurwana, no guhangana n'ibyorezo n'ibindi.

Ishusho igaragaza ihuriro ry'abantu benshi bicaye mucyumba kimwe, barimo abagabo n'abagore, barimo bahabwa imbwirwaruhame n'umugore, ndetse muri iki cyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, nk'ibitanga amashusho, ibitanga umuriro, bari kuganira insanganyamatsiko ari ubuzima bwo mu mutwe bw'ikiremwamuntu.

Imipira y'umuhondo, bahuriye hamwe mu gikorwa remezo gihuriramo abantu benshi, insanganyamatsiko ni ukuganira ku buzima bwo mu mutwe bw'abana n'uburyo bwarushaho kumererwa neza.

Umukecuru ushaje bigaragara ko akuze cyane unanutse. Yambaye urunigi mu ijosi rugizwe n'amasaro y'umuhondo, ndetse ateza igitambaro cy'umweru mu mutwe. Arimo arareba ku ruhande rwe.

Rihuriwemo n'abashinzwe kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe bw'abarwayi ndetse n'abandi bafite ibibazo bisa na byo. Iri tsinda rigizwe n'abaganga, n'abaforomo ndetse n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe.

Ni ishusho igaragaza umukobwa w'umwirabura, ufite agakoresho bakoresha bakura imyanda hagati y'amenyo kugira ngo amenyo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse ntarwaragurike.

Nyuma yo gukorerwa isuzuma ry'uko iryinyo rihagaze ry'umurwayi, muganga ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa ngendanwa arimo arareba uburyo iryo ryinyo rye rihereye ku rwasaya rw'iburyo rimeze n'ikibazo rifite kugira ngo atangire kurivura.

Ihuriro ry'abanyeshuri n'ababyeyi babo, bari mu ishuri rifite amadirishya asa icyatsi, abo banyeshuri bicaye ku ntebe z'ibiti; abo banyeshuri bose bazamuye, uburoso bwoza amenyo. Buri munyeshuri afite uburoso bwe.

Abagabo ni batatu gusa, abagore bariganje, abagore abenshi bambaye amakanzu y'umuhondo, umutuku ndetse n'andi avangavanze, bari hanze mu murima, bose bazamuye amaboko barishimye, bari kwifotoza.

Ubururu ndetse umugore ni umuforomokazi wambaye impuzankano z'abaforomo zisa n'icyatsi. Bombi bambaye agapfukamunwa. Uwo muforomokazi ari kumupima uburyo ubuzima bwe buhagaze. Cyane cyane uburyo umutima we uri gutera.

Abagore babiri barahagaze mu gikoni, umwe muri bo yambaye amadarubindi afite n'ikirahure cy'umuvinyo ari kugenda asomaho, undi mugore ari koza bimwe mu byo ari bukoreshe mu guteka harimo imboga zirinda umubiri indwara ndetse n'inyanya na za povuro zikomeza umubiri ndetse zikanubaka umubiri.

Mu ihuriro ry'abagabo n'abagore, barahagaze bari gukoma mu mashyi, barishimye umugabo umwe ari gukora mu ntoki undi amushimira, aho bari bari hanze.

Uteruye umwana n'abagore batanu abagore babiri bicaye ku ntebe za pulasitike ndetse abandi bagore batatu bicaye hasi mu rucaca umugore umwe arimo arabereka uburyo baboha, imirimo nk'iyi ngiyi ikorerwa ba mukerarugendo n'abandi.

Yicaye mu nzu ku ntebe y'umweru umugabo yambaye marinete n'ipantaro ya kake n'agapira k'ubururu, mo imbere harimo akandi gapira k'umweru yambariyemo, umugore yambaye impuzankano z'abaforomokazi zisa ubururu, afite agakoresho gapima uburyo umuvuduko w'amaraso w'uyu mugabo uri kugenda.

Itsinda ry'abagabo benshi bakuze bafite imyaka itari mikeya, bateraniye mu rugo rumwe, bicaye imbere y'inzu ku ntebe zimwe ziri ku murongo umwe, aba bagabo bafasha abantu mu gihe hakenewe ubwunzi ndetse no gutanga inama zafasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubururu bwijimye, icyatsi, ako gatabo kandiditseho famili pulaningi maketi ripoti, hasi mu ibara ry'icyatsi hakandikwamo teni yazi .

Iyi shusho igaragaza ihuriro ry'abagore benshi n'umugabo umwe, bose bambaye udupfukamunwa. Uwo mugabo yambaye impuzankano isa icyatsi, undi mugore na we w'umuganga aricaye ari gufata ibipimo, yiteguye gukingira uno mugabo ndetse hagakurikiraho n'abandi.

Komoka ku mugabane w'Asia n'abagore babiri na bo bakomoka ku mugabane w'Asia, barahagaze barimo barafata ifoto y'urwibutso. Insanganyamatsiko; bari bamaze kuganira ku bukangurambaga ku mahame y'ubuzima.

Abakobwa bahuriye hamwe ku nsanganyamatsiko runaka barimo baraganirizwaho, uri kubaganiriza afite ishusho arimo arabereka ayisobanura, ihuriro nk'iri ngiri rifasha abana b'abakobwa mu bintu byinshi cyane, mu buzima bwabo bwa buri munsi bwa gikobwa n'uburyo bashobora kubaho neza.

Umutuku imbere yaho haparitse imodoka y'umukara iri gusohokamo abantu benshi bambaye imipira y'ubururu bavuye kwizihiza igikorwa kimaze icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana binyujijwe mu ishami USAID.

Ibikoresho bitanga umwuka, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bikoresho byose byo kwa muganga. Iki cyumba kirimo ibikoresho byose nkenerwa bituma habasha kwakirwa abarwayi barenze umwe cyangwa babiri, harimo ndetse n'igitanda cyo kuryamaho cy'umurwayi.

Mu marembo y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe, hari umugabo uri kuzamuka ku ma esikariye; agiye kwa muganga. Imbere y'ayo marembo, hari abantu benshi cyane bagizwe n'abagabo n'abagore. Ikirangantego k'ikigo nderabuzima cya Tabagwe kiri mu ibara ry'ubururu; ndetse hejuru yaho gato handitseho imbuto.

Ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga harimo ibikoresho bisohora impapuro ,mudasobwa zikusanya amakuru zikanatanga amakuru, ibikoresho korana buhanga na tekinoloji ihambaye ndetse hasi hari indobo ushobora gutamo imyanda.

Mu marembo yinjira mu nzu igurishirizwamo imiti, ishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu igihe bwazahajwe n'indwara, haparitse imodoka ebyiri, imwe ni umweru, indi isa ubururu bwerurutse.

Ishusho igaragaza bimwe mu bikoresho bigize icyumba kisangwamo bimwe mu bikoresho dukoresha turi gukora imyitozo ngororamubiri, nk'ibigorora amaguru, ibigorora amaboko n'ibiyakomeza.

Ahantu heza hari inyubako nziza yubakanwe ubuhanga, yubatswe n'amabuye akomeye, ifite inkuta nziza, ifite n'ibirahuri byiza bisa nk'imitamenwa, iri ahantu hari ubusitani bwiza burimo indabyo z'ubwoko butandukanye, izifite amabara y'umutuku, izisa icyatsi, ahantu nyaburanga ubona ko hari ubuzima buzima n'umwuka mwiza.

Ifoto iriho inyubako zigera muri eshatu, ziriho amagorofa ageze muri atatu atatu, imbere yaho hari abantu, abagore n'abagabo, abagabo babiri bambaye amashati y'ubururu. Undi mukobwa uri imbere yabo yambaye ishati ijya kuba umukara. Izo nyubako zigizwe n'amabara agizwe n'umutuku.

Umuntu w'umwirabura wambaye impeta, ufite akantu mu ntoki kameze nk'agatambaro arimo arikandisha ku kaboko ke k'iburyo.

W'umwirabura wambaye agapira k'umweru, ufite agatambaro mu ntoki usa nk'uwavunitse, arimo arakanda aho yavunitse.

Bombi bambaye udukabutura tw'umukara, umugore yambaye agasengeri k'ubururu, ndetse n'umugabo yambaye agasengeri k'ubururu bwerurutse. Barimo barirukanka bakora imyitozo ngororamubiri, ibafasha kunanura imitsi no gutuma amaraso yabo arushaho kugenda neza mu mubiri. Bafite n'uducupa tw'amazi dutuma barushaho kugenda bagarura ubuyanja.

Ishusho igaragaza icyumba kirimo icyuma cyo kwa muganga, gishinzwe gufasha abantu bakeneye kumenya uko ubuzima bwabo bwo mu mutwe buhagaze cyangwa se bafite ikibazo kijyanye n'igice cyo hejuru cyane cyane icy'umutwe.

Umugabo uri gukora siporo wambaye agapantaro k'umukara karimo utubara tw'umweru n'agapira k'umukara, imbere ye hahagaze undi muntu wambaye agapantaro k'umukara n'agapira k'ubururu. Uwo muntu uhagaze imbere ye ni umuzungu.

Itsinda ry'abantu babiri bagizwe n'umuganga ndetse n'umurwayi, muganga yambaye itaburiya y'umweru, umurwayi yambaye agapira k'ubururu. Afite ikibazo mu kuboko kw'ibumoso. Arimo arafashwa hifashishijwe ibikoresho byo kwa muganga by'imyitozo ngororamubiri bishinzwe kugorora umubiri no kugira ngo urusheho gukora neza.

Umuntu ukina imikino ingororamubiri wambaye agapira kanditseho makumyabiri na rimwe, mo imbere harimo akandi gapira k'umweru, uyu mugabo yambaye agapantaro k'umweru afite n'inkweto z'umukara n'amasogisi by'umukara harimo akabara k'umweru.

Umugabo w'umwirabura ukora umwuga w'ubuganga. Yambaye itaburiya y'umweru. Ari kwa muganga, mu cyumba arimo kirimo ibikoresho byinshi cyane byo kwa muganga bifasha ubuzima bw'umuntu kugira burusheho kugenda neza, cyane cyane abarwayi, cyangwa se n'abaje gusaba inama zijyanye n'iby'ubuzima. Ndetse hari na kizimyamwoto ishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro.

Icyumba kirimo ibikoresho nkoranabuhanga byo kwa muganga, kirimo agatanda gafite amashuka y'ubururu n'ibitara bicanye binini cyane.

Imyitozo ngororamubiri, yambaye akenda gafata amabere gasa umukara, agapantaro k'umukara, ndetse n'inkweto z'umutuku, yambaye udukoresho tw'ikoranabuhanga twitwa ekuteri mu ndimi z'amahanga, dukura amajwi mu gikoresho gikorana ubuhanga, kiyajyana mu matwi, ndetse yambaye n'agakoresho gapima uburyo umutima we uri gutera.

Ikoranabuhanga biri ahantu hasa umweru dede, ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga harimo amamashini matomato ndetse n'amamashini magari, harimo umuganga w'umugore.

Uhagaze wambaye agapira gasa icyatsi kerurutse, n'ipantaro, isa umukara werurutse, n'udukweto tw'umweru, ndetse n'masogisi y'umukara, yambaye ibikoresho bambara mu ntoki byitwa ga mu rurimi rw'amahanga bisa umweru, ahagaze ahantu hari ibikoresho byo kwa muganga bifite amapine, biterekwaho imiti ndetse n'ibindi.

Iyi shusho igaragaza igikoresho gitangwa no kwa muganga gituma ubuzima bwacu burushaho kumera neza. Iki gikoresho gituma umuntu wavunitse ijosi cyangwa se igikanu arushaho kumererwa neza igihe atabasha guhindukira. Iki gikoresho kigizwe n'amabara y'ubururu bwijimye, umuhondo ndetse n'umweru.

.com mu rurimi rwamahanga urwo rubuga rucururizwaho ibicuruzwa byinshi hariho hori oir, hariho flover dag ya nibt hariho n'iby' imiti ya flover malt mark ndetse n'indi ,hariho na nimero ushobora kubahamagaraho.

Igikoresho cy'umukara kirimo amacupa menshi atandukanye. Amacupa menshi muri yo arimo ibinyobwa bishobora kwengwa, nk'urwagwa. Ndetse andi macupa, ni aya fanta, ikinyobwa gikorerwa mu ruganda. Hariho ndetse n'ikirahuri, ushobora kunywesha ibyo binyobwa.

y'amazi ndetse n'amavuto yo kwisiga asanzwe ndetse n'andi ari mu dukopo dusa umweru orange n'andi mabara aya mavuta akomoka ku gihingwa cy'igikakarubamba gifasha umubiri mu bwirinzi

Ifoto igizwe n'akoresho kavamo amavuta. Ako gakoresho gafite umupfundikizo w'ubururu, ndetse inyuma y'ako gakoresho hagasa umweru. Handitseho amagambo Hydrating Serum. Ayo magambo ari mu ibara ry'umukara.

Ni gitewe ahantu mu murima iki cyatsi gishobora kwifashishwa iyo umuntu arimo agiteka ngo akirye kugira ngo kimugirire akamaro cyangwa se kikifashishwa kwa muganga barimo bakora imiti ituma ubuzima bwacu burushaho kugenda neza igihe bwazahaye.

Agakopo gafite umupfundikizo usa n'umuhondo, kazengurukijwe n'igipapuro cyanditseho umuravumba, uyu muravumba akaba ari igihingwa kimeza cyangwa se kigaterwa mu murima, uyu muravumba akaba ari umuti, aka gakopo karimo uwo muti uvura indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero nk'inkorora, ibicurane ndetse na angine mu rurimi rw'amahanga.

Iyi shusho igaragaza ibikoresho bitandukanye bigizwe n'udukopo, ibiyiko bibiri ndetse n'ikirahuri cy'amazi, icyo kirahuri kirimo ibyatsi bikoreshwa mu gukora imiti iri imwe kuri ibyo biyiko bibiri y'ibinini bisa umweru n'ibindi bisa oranje, ndetse n'imiti y'amazi iri muri utwo dukopo.

Ifoto yerekana bimwe mu bikoresho bya Kinyarwanda, harimo n'ibiribwa abantu barya, harimo imbuto, harimo n'ibindi byatsi ndetse ibyo bintu byose biri hejuru y'amakoma y'insina, biteretse ku meza.

Ibikoresho bitandukanye, bigizwe n'amavuta yo kwisigagare ndetse n'ibyo ushobora gukoresha urimo urakaraba, bigizwe n'isabune y'amazi. Ibi bikoresho byose bikozwe mu gihingwa kitwa igitakarubamba, gifitiye akamaro umubiri, mu kuwurinda indwara, ubwo ndavuga umubiri w'inyuma, ari rwo ruhu.

Itsinda ry'ibihingwa bitandukanye bigizwe n'igikarubamba ndetse n'ibindi bifasha mu buzima bwa buri munsi bwa muntu mu kububungabunga, biwukomeza, biwurinda indwara ndetse bimwe muri ibi bihingwa bikoreshwa mu gukora imiti igiye itandukanye.

Ni ishusho igizwe n'ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma umubiri wacu umerererwa neza. Harimo nk'umuti w'amenyo dukoresha twoza amenyo, harimo nk'agakarito karimo ikawa idufasha mu buzima bwacu bwo mu mutwe, harimo nk'agakarito karimo ibishobora gusimbura ibyo kurya birimo intungamubiri zose dukenera, harimo ndetse n'ibishobora gukorwa mu nganda nka shokora zituma ubuzima bwacu bwo mu mutwe burushaho kugenda neza.

Ibyatsi nyaburanga tubona mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi. Aya mafoto buri foto igiye ifite inyuguti ziva kuri A zikagera kuri H.